Mu kibaya kigali kirimo umugabo wambaye ipantaro y'umutuku, n'umupira wa kaki ufite umupira wo kuhira amazi w'ubururu uri kuhira imboga.